Umusore ufite telefone mu ntoki, yambaye ijile y'umuhondo ya MTN, arimo arafasha umukiliya wambaye agapira k'umutuku, ndetse na linete z'umukara amuha serivisi, bombi bari munsi y'umutaka wa MTN.

Akazu ka MTN kari mu ibara ry'umutuku kanditseho amagambo y'umweru gateretse ku mbuga ikozwe n'amapave, ni mu isoko biragaragara ko hatangirwa serivise zitandukanye.

Mu mujyi kumuhanda munsi y'umuhanda hari akazu ka MTN, gafite abakiriya benshi baje gushaka serivisi z'uyu muyoboro w'itumanaho, ndetse hirya hari imodoka ziparitse.

Umugabo wambaye ijire y'umutuku y'ikigo cy'itumanaho cya Airtel, yicaye ku ntebe y'ubururu, yegamiye ku kazu ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo.

Umutaka wa MTN, iruhande rwaho hari akazu ka MTN karimo umugabo w'umu agent, gatanga serivisi zitandukanye zirimo, kubitsa amafaranga ndetse no kuyabikuza.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'akazu ka MTN baje gushaka serivisi z'itumanaho, iruhande rwabo hari icyapa kinini kirimo kivuga ku bijyanye na serivisi zitangirwa hano.

Abakiriya bari ku kazu kanditseho limitless, aka gatangirwaho serivise zitandukanye zirimo kuguriraho amatike ndetse bakaba bashyira amafaranga ku ikarita.

Abaturage bicaye ahantu hamwe birasa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hahagaze umugabo arimo arabaganiriza, biragaragara ko ari koperative cyangwa se ishyirahamwe.

Abagabo ndetse n'abagore batandukanye bahuriye mu nama barimo barahabwa amahugurwa ku bijyanye no kwizigamira. Harimo abambaye imipira y'ubururu ndetse n'imikara.

Imodoka iri mu ibara rijya gusa ubururu, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo avuga ngo biva momo tima iyi ni MTN irimo yamamaza.

Inama yabereyemo abagabo ndetse n'abagore bafite mudasobwa imbere yabo, bari mu cyumba kinini bigaragara ko barimo barafata amahugurwa agiye atandukanye ku mirimo bakora yabo ya buri munsi.

Abagabo ndetse n'abagore, abenshi muri bo bambaye imipira y'ubururu ndetse bambaye, ibintu bisa nkaho baje mu nama.

Abagabo babiri, bahawe igihembo cy'indashyikirwa, bagifite mu ntoki barimo barafata ifoto y'urwibutso. Umwe muri bo yambaye ikote ndetse n'isaha ku kuboko, undi kuhande rwiwe yambaye ishati nziza cyane y'amaboko maremare.

Umusaza usheshe akanguhe yambaye agapira k'umweru k'amaboko maremare, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'indi iteretse ku kameza arimo aravuga imbwirwaruhame.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye, zirimo kwizigamira ndetse n'ibindi hari icyapa, cyanditseho amagambo agaragara manini, hariho inyuguti ya R, C ndetse na A.

Aha hazwi nko mu ibara ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye yaba ibisindisha n'ibidasindisha, hari intebe zitandukanye abakiriya bicaraho.

Ahantu heza hateye ubwuzu ni ku kagoroba biragaragara ko hitaruye umugi. Hari intebe nziza zisa neza ndetse n'amatara ahamurika. Harakeye, haratuje, kuhasohokera ni byiza.

Aha ni mu kabari ahari intebe zitandukanye, hari ekara nini ndetse n'ibishushanyo bigiye bitandukanye, hejuru yaho hari itara rimurikira abaje muri ako kabari.

Bare irimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, ni akabari gakeye gasa neza karimo ibinyobwa bihenze ndetse n'inzoka z'amoko yose, aha bakira abakiriya bagiye batandukanye, igihe cyose.

Ni inzu icururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, hakabamo n'ibikoresho birimo amavuta, amacagi ndetse n'ibyifashishwa mu isuku, harimo n'imyenda y'imbere.

Umusore wambaye isengeri y'umweru ndetse n'itaburiya y'icyatsi, arimo aracuruza amafi, iruhande rwe hari abagore, bari gucuruza ibiribwa bitandukanye.

Icyapa cyanditseho star time giteretse imbere y'iduka ricuruza ibikoresho by'ubwoko butandukanye, imbere yacyo hashashe amapave ndetse inyuma yacyo hateretse akameza kubugenewe.

Umugore uri mu idukacuruzay'ubwiza ndetse n'ibikoresho by'isuku, aririmo araseka, inyuma ye hari utu etejeri twuzuyemo amavuta yo kwisiga.

Agakoresho kabugenewe karimo amagi ahiye, ifoke, umunyu ndetse na kirida, ibi byifashishwa mu gufata igi, bigatuma riryoha.

Umubyeyi wicaye muri butiki icuruza ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'isuku, yambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'ibitenge.

Mu mabutike atandukanye bagira ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri cyane cyane birimo amakayi. Aya ni amakayi ya musana arunze ahantu hamwe hategerejwe kugurishwa.

Iduka ricuruza ibitenge haganywemo abantu benshi batandukanye baje kwihahira, harimo abagabo ndetse n'abagore harimo n'uri kwakira abakiliya.

Ibutiki irimo aka etejeri karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, imbere harimo ibase irimo amandazi menshi ndetse n'agakoresho kifashishwa igihe urimo ufata irindazi.

Iduka, botike cyangwa se amangazini, aha ni ahacururizwa bimwe cyangwa se ibiribwa bigiye bitandukanye byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi harimo amasukari, imiceri, amavuta ndetse n'ibindi.

Mu iduka cyangwa se butike, harimo ibikoresho bitandukanye, ndetse hakanacururizwa ibikoresho bitandukanye. Iyo uhageze ukabaka ibyo ukeneye, barabiguhereza nawe ukabaha amafaranga.

Mu rusengero abakirisitu barapfukamye barimo barasenga, barambuye amaboko biragaragara ko bari guhimbaza Imana. Inyuma yabo hari ikimenyetso cy'umusaraba.

Abagabo bambaye amapantaro ndetse n'amakoti y'umukara barimo bararirimbana n'abagore bambaye amakanzu y'imituku biragaragara ko ari muri korari, korari ni nziza ituma umuntu abaho yishimye.

Abagabo, b'abazungu, ndetse n'abagore, bafite, ikibanderore mu ntoki, barahagaragara nkaho bahawe igihembo cy'indashyikirwa.

Inzu isengerwamo ni ndende cyane isakaye neza mu buryo bugezweho, harimo n'intebe zabugenewe abakirisitu cyangwa se abayoboke bicaraho.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye ikoti ry'umweru arimo aravuga mu buhamya mu rusengero imbere y'abantu.

Mu rusengero turimo abagabo bicaye imbere, bambaye amakote, inyuma yabo hari abakirisitu baje gusengera muri urwo rusengero.

Umugabo wambaye ijire cy'umukara ndetse n'ishati y'umweru y'amaboko maremare, afite ikirahuri arimo aragiterika ku meza n'ibyuyubahiro byinshi urabona ko ari umukozi wo muri hoteri.

Hoteli cyangwa se moteli zizwiho kugira ahantu heza hanini ho kwidagadurira cyane nka za pisine ndetse n'ibibuga bakiniramo.

Igitanda gishashe neza, kiri muri hoteri, iruhande rwacyo hari akabati gato, kerekana aho wabika ibintu byawe, iki kigitanda gishashe wa amashuka y'umweru ndetse n'ikuvureri.

Igitanda kiza gishasheho amashuka y'umweru, iruhande rwacyo hari akabati gateretseho itara rya kizungu, aha ni muri hoteli, hari imisego ibiri bigaragara ko cyaryamwaho n'abantu babiri.

Abantu bicaye hamwe, barimo barahabwa serivisi zitandukanye. Harimo uhagaze ku ruhande hirya, arimo arabaza icyo bafata.

Ameza manini ateretseho ibyo guteka bitandukanye bigiye biba mu dusahane twabugenewe, aha biragaragara ko ari mu gikoni aho batunganyiriza amafunguro bashyira abakiriya.

Inyubako ndende iracyubakwa, hasi hahagaze abantu benshi barimo bayubakaho, bambaye amajire harimo ibara ry'icyatsi ndetse n'ingofero zirinda imitwe yabo.

Muri hoteri niho honyine haba hari icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abantu batandukanye, harimo n'igitanda gishashe neza, telefone yo guhamagara kugira ngo baguhe serivisi ushaka.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ni umutetsi, afite ibyo kurya mu ntoki, inyuma ye hari ubusitani bwiza biragaragara ko akora muri hoteli.

Hoteri cyangwa se moteri ni icyumba kigari kinini cyane kirimo ameza manini ndetse n'intebe zo kwicarwaho n'abakiriya, mu gihe bategereje icyo kurya cyangwa se icyo kunywa batumije.

Muri hoteri batanga serivisi zitandukanye aho iyo bwakwiriyeho ubagana bakagucumbikira ku giciro gito, ubu ni uburiri bushashe neza buriho imisego y'umweru ibiri.

Icyumba cyiza cyo muri hoteli, gishasheho amashuka meza ndetse n'imisego, iruhande rwacyo hari intebe zabugenewe zo kwicaraho bakaganira.

Pisinine iri ahantu hakeye, hasa neza. Iyi ni hoteri iba ifite naho abantu bogera bityo bakidagadura bakisanzura. Ni ku zuba, hariho n'aho abantu baryama.

Ikirere gike gituje kandi gisa neza, munsi yacyo harimo amahoteri meza, biragaragara ko afite inyubako zitandukanye. Harimo aho abakiriya biyakirira ndetse bareba imisozi iri hakurya yaho.

Inzu igeretse nziza hejuru yayo hari igicu cyijimye kigiye gutanga imvura, imbere y'iyi nzu hari jaride nini yiganjemo umucaca.

Ikirere gisa nkaho kigiye kugwami Imvura. Hasi hari ikibuga kinini kirekire kirimo jaride, iruhande rwacyo hari inzu nini ya hoteri.

Hotel nziza irimo inyubako zigeretse kabiri, imbere yayo hari geride nziza iteyemo indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'amatara amurikira uyu muhanda wama pavi.

Igitanda gisheshe neza kiriho imisego ibiri, icupa ryamazi riteretse ku kameza kari ku ruhande ndetse amarido meza akeye biragaragara ko ari muri hoteli cyangwag se moteli.

Inyubako nziza igeretse kabiri. Imbere yayo haparitse imodoka ebyiri. Iruhande rwayo, hari, ama esakaliye azamuka hejuru. Hatangirwa serivisi z'amahoteri.

Inzu z'amahoteli zikunda kuba zirimo abashinzwe umutekano. Uyu ni umuntu wicaye imbere ya ordinateur, yambaye imyenda y'mikara, arimo aratanga serivisi z'umutekano.

Umugabo wicaye imbere yibiribwa mu isoko arimo abacuruza, ibi biribwa biribwa n'abantu cyane cyane abari kugenda.

Umugore wambaye ishati y'igitenge yambaye agapfukamunwa, yambaye agakoma ku kaboko k'ibumoso, yikoreye igihingwa kitwa tungurusumu, inyuma ye hari abandi bantu baje muri iryo soko.

Umukecuru ufite imboga mu ntoki zirimo karoti, intoryi ndetse n'inyanya, imbere ye hateretse inkoko nayo irambitseho izi mboga.

Agasoko gato karimo abakobwa babiri, harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo imyenda, ibikapu ndetse n'ibindi, birasa nk'aho ari isoko ritaratera imbere.

Ibikoresho, bikorerwa mu rugo, bigakoreshwa mu rugo, byitwa imbabura. Ibi byifashishwa, abantu batekaho ibiryo, ndetse bigashyirwaho amakara.

Umwana w'umuhungu, wambaye agapantaro k'umutuku, umupira w'umuhondo, yikoreye, ikirago ku mutwe, hasi yambaye inkweto za bodaboda ziri mu ibara ry'ubururu, avuye mu isoko.

Umugore wikoreye agafuka k'umweru, yambaye ikanzu y'igitenge ndetse n'ikabutura mo imbere. Arimo aragenda mu muhanda wa kaburimbo, iburyo bwe hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Ihema riranditseho ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo imyenda ,ahandi mu isoko hasi aho bakunda kwita muri hangari , aha haba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Abaturage baje kuyahirira ibiribwa bigiye bitandukanye byiganjemo ibishyimbo ndetse n'ibindi. Harimo abashaka abaguzi harimo n'abaguzi bashaka ibishyimbo bimeze neza.

Ubucuruzi butandukanye burimo burakorerwa ku muhanda, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo abacuruzi ndetse n'abakiriya bari kuza kureba ibyo abo bacuruzi bari gucuruza.

Ahacururizwa ibyo kurya bigiye bitandukanye, aha ni muri resitora. Harasukuye, hasa neza ndetse hari n'ibikoresho bitandukanye, biteye imbere.

Muri resitora ahatangirwa serivisi zijyanye ni'byokurya, hari intebe ndende ndetse biragaragara ko batanga n'byo kunkunywa.

Aha ni muri Resitora ahatangirwa serivisi zijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, hari umugore urimo imbere, biragaragara ko bwije nta bakiriya afite.

Umugabo uhagaze, iruhande rw'abantu benshi biteretse amacupa imbere yabo, aya macupa harimo ibisindisha ndetse n'ibidasindisha, biragaragara ko barimo baraganira.

Inyubako itangirwamo serivise za resitora ndetse hagafatirwamo n'amafunguro ya saa sita n'aya nijoro, hari ubusitani bwiza hakikijwe n'ibiti.

Inzu nini, ikeye isa neza, irimo intebe zigezweho, amakaro ndetse n'amatara yaka neza, aha hafatirwa amafunguro, yaba aya nimugoroba ndetse n'aya saa sita.

Ahantu heza hari urumuri rukeye, udutebe twiza. Abakiriya bicaraho hatangirwa serivisi z'amaresitora. Niyo ukeneye icyo kurya urabukinga bakakiguha.

Isahani iriho, ibiribwa bitandukanye, bitangwa muri resitora. Iruhande rwaho hari agacupa karimo umunyu, cyangwa se urusenda. Byose birambitse ku meza.

Umugabo w'umuzungu yicaye kuri moto ikoresha imbaraga z'imirasire y'izuba, iruhande rwe hari abamotari bambaye amajire y'imituku barimo baramwereka uko iki kinyabiziga gikora.

Umumotari wicaye kuri moto yambaye ikote ry'umutuku ndetse na kasike y'umukara, iyindi ayifite mu kaboko k'ibumoso, aratwaye biragaragara ko arimo ashaka abagenzi.

Umugabo ari kuri moto, ari mu muhanda aratwaye atwarishije ukuboko kumwe, aragaragara nkaho ari kuvugira kuri telefone, kasike ye yayikikiye ndetse indi arayambaye.

Moto iri mumuhanda, yatwaye inkoko ndetse mo hagati harimo n'umuntu. Uburyo wapakiye kuri iyi moto, birasekeje.

Umugabo wicaye kuri moto, inyuma ye hari n'undi mugabo wambaye kasike na we ugiye kwicara kuri iyo moto, hari abajenti babiri bambaye amajire y'umuhondo yanditseho serivisi za MTN.

Umurongo muremure wiganjemo abamotari, bambaye amakasike ndetse bambaye n'imipira iri mu ibara ry'icyatsi, ni benshi birasa nkaho hari igikorwa bitabiriye.